Abantu benshi bitabiriye inama cyangwa ibiganiro runaka.

Abantu benshi bitabiriye inama cyangwa ibiganiro byabereye ahantu runaka.

Intebe ziri hanze ndetse n'abanyeshuri bari ahantu hari kubakirwa inyubako z'amashuri.

Ikipe ebyiri z'abakobwa zikina umukino w'amaguru, zitonze umurongo zitegereje guhura hagati yazo.

Umugore n'umugabo bari kugenda mu mihanda yo mu cyaro cyangwa se mu tuyira dutoya.